Abantu ahantu bicaye batandukanye ndetse hagaragara n'umuntu umwe uhagaze, akaba afite indangururamajwi bigaragara yuko ari kuvuga ibijyanye n'iterambere ry'igihugu, ndetse na serivisi zose zigenewe abaturage.

Abantu babiri bicaye ndetse imbere yabo bakaba bafite za mudasobwa, bikaba bigaragara yuko bari mu nama kugira ngo barusheho kuganira ku bijyanye n'iterambere ndetse na serivisi zitangwa na Leta.

Abantu batandukanye bicaye ndetse harimo abafite mudasobwa hagaragara n'abandi bafotora, bigaragara y'uko ari serivisi za leta bajemo ndetse zijyanye n'iterambere muri rusange ry'umuturage.

Abantu batandukanye bicaye bafite imbere yabo za mudasobwa, inyuma yabo hakaba hari undi muntu uhagaze, arimo arabasobanurira ibijyanye na serivise zose leta itanga, cyane cyane zishingiye kumigendere ndetse no kumitwarire y'abantu n'ibintu.

Abantu batandukanye ndetse bigaragara yuko bakora muri serivisi za leta bikaba bigaragara yuko bari mu nama baganira ku kijyanye n'iterambere ry'igihugu ndetse n'uburyo bashyira umuturage imbere kugira ngo nawe atere imbere bizamure ubukungu bw'igihugu.

Abantu batatu bicaye, hakaba harimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, bikaba bigaragara yuko bari kuganira ku bigendanye n'imikino; kimwe mu bikorwa Leta ishyiramo imbaraga, kugira ngo abaturage barusheho kugira ubuzima bwiza.

Umuntu uhagaze ndetse imbere yiwe hakaba hari icyapa kiriho amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara, bigaragara y'uko ari gusobanura serivisi zose za leta, ndetse n'ibikorwa bigamijwe, kugira ngo iterambere rirambye ribashe kugerwaho.

Abantu batandukanye bicaye, hakaba hagaragara umwe wicaye afite ikaramu, ari kwandika, bikaba bigaragara yuko bari mu nama, basobanurirwa ibikorwa bitandukanye leta igeza ku baturage bayo.

Abantu batandukanye bicaye ndetse biragaragara yuko bari mu bijyanye n' ibikorwa by' iterambere baganira ahanini ku mikino kugira ngo barusheho gushishikariza abantu kuba bagira ubuzima bwiza biciye mu gukina imikino itandukanye.

Abantu batandukanye barimo abagore ndetse n' abagabo bakaba bicaye baje kumva ndetse no gusobanurirwa serivise zigendanye n' ibyo leta ishaka gutezamo imbere abaturage.

Abantu batatu bicaye ndetse bikaba bigaragara yuko barimo barungurana inama ndetse n'ibitekerezo ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu, ndetse na serivisi zose zigenwa zigenewe abaturage.

Abantu batatu bicaye ndetse umwe akaba afashe indangururamajwi, akaba arimo kuvuga kuri serivisi zitandukanye Leta itanga, harimo n'iz'ibidukikije.

Abantu batandukanye bicaye ndetse haragaragara n'umwe uhagaze, akaba afite indangururamajwi, aho arimo arasobanura ibikorwa bitandukanye ndetse na serivise zose zigenerwa abaturage b'ibigihugu.

Abantu batandukanye bicaye ndetse bafite na za mudasobwa imbere yabo, ndetse hagaragara umwe ufashe indangururamajwi bikaba bigaragara yuko bari kujya inama, ku bijyanye na serivisi zose zitangwa mu rwego rwa leta.

Aba ni abagabo batatu imbere hari imashini ibateretseho, babiri bambaye renete n'ingofero biragaragara yuko uwo hagati ari kubereka muri sisiteme serivisi zikunda gutangwa na leta kugira ngo abaturage babashe kuzikorera.

Abantu batandukanye bicaye ndetse haragararana n'umuntu umwe, umugore ufashe indangururamajwi akaba arimo arababwira ibijyanye n'iterambere ry'igihugu ndetse n'ibikorwa byose Leta ibateganyiriza.

Abantu batandukanye imbere yabo bakaba bafite mudasobwa, bakaba bicaye ahantu hanini, bakaba bagaragara yuko barimo gusobanurirwa serivisi zose leta itanga ku baturage.

Abantu batandukanye bicaye ndetse bigaragara yuko hari undi umwe uhagaze, akaba arimo kubasobanurira gahunda zigendanye n'iterambere ry'igihugu ndetse n'ibikorwa leta iteganya gukora.

Abantu batandukanye ndetse imbere yabo hakaba hari za mudasobwa, hakaba hagaragara umugabo uhagaze bigaragara yuko bari mu nama iri kwiga ku iterambere rirambye ry'igihugu.

Abantu batandukanye bicaye bigaragara yuko bakora mu nzego za leta, aba bakaba bafasha kugira ngo iterambere ry'igihugu ndetse n'abaturage bibashe gutera imbere ku muvuduko wo hejuru.

Abantu batandukanye, bamwe bicaye abandi bakaba bahagaze, bigaragara yuko bari kuganira ku bijyanye na serivise zose leta itanga, ndetse no kuganira ku mbogamizi baba bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abantu batandukanye bicaye, ndetse bigaragara y'uko baje mu nama, kugira ngo baganire ku bijyanye na serivisi leta itanga zose, ndetse n'iterambere ry'umuturage muri rusange.

Abantu batandukanye bicaye mu ntebe bigaragara yuko bari kuganira kuri serivise za leta, iruhande hari icyapa yanditseho RGB, ikingiki akaba ari ikigo gishinzwe imiyoborere myiza y'igihugu kugira ngo abaturage babone serivise zibagenewe.

Abantu bicaye, ndetse imbere yabo hakaba hari mudasobwa ziteretse, ziri ku meza, bikaba bigaragara ko bari mu nama, baganira kuri serivise z'iterambere z'igihugu zitandukanye.

Abantu batandukanye bicaye, ndetse imbere yabo hateretse mudasobwa, ahangaha bikaba bigaragara yuko bari mu nama, bari kungurana ibitekerezo ku bijyanye na serevise zose leta itanga.

Abantu babiri bicaye umwe akaba yambaye umupira w'umweru undi yambaye uw'umuhondo ndetse haragaragara n'umuntu uhagaze wambaye umukara hejuru, ndetse no hasi akaba yambaye shokora akaba afite indangururamajwi arimo kuvuga kuri serivisi zose zitandukanye za leta.

Abantu bateraniye hamwe bicaye ndetse imbere yabo bakaba bafite ibikoresho bitandukanye, bikaba bigaragara y'uko barimo kuganira kuri serivisi zose za leta Uburyo zashyirwamo imbaraga.

Abantu batandukanye, bicaye imbere yabo bakaba bafite za mudasobwa bikaba bigaragara yuko bari mu nama aho bari kwiga ku bijyanye n'uburyo banoza serivisi z'igihugu kugira ngo barusheho gutuma abaturage batera imbere.

Abantu batandukanye bicaye ndetse bateze amatwi, bikaba bigaragara yuko bari mu nama ivuga ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu ndetse n'ingamba Leta ishyiraho kugira ngo iteze umuturage imbere.

Abantu batandukanye bicaye ndetse imbere yabo hakaba hari za mudasobwa, hakaba hagaragara nundi muntu uhagaze bigaragara yuko ari gusobanura ibijyanye n'ingamba ndetse n'ibikoresho bakoresha kugirango iterambere ry'igihugu rirusheho kuzamuka

Abantu batandukanye bicaye mu ntebe z'umweru, ndetse imbere haragaragara abandi bantu bicaye ku murongo umwe bari ku meza, hakaba hamanitse n'icyapa imbere, aha ngaha hakaba hagaragara y'uko ari abantu baje gusobanurirwa serivisi za leta.

Abantu batandukanye harimo abicaye ndetse n'abahagaze, hagaragara mo kandi n'inzego z'umutekano, aho bigaragara y'uko bari baje mu rwego rwa leta, kugira ngo babwire abaturage serivisi zose zitangwa muri leta, ndetse n'uburyo biteguye kuba bazamura iterambere ry'igihugu.

Abantu batandukanye bicaye, ndetse hagaragara n'abandi bahagaze, umwe akaba afite indangururamajwi akaba arimo kubasobanurira cyangwa se ari kubaha ikiganiro, ku bigendanye n'iterambere ry'igihugu.

Abantu batatu ndetse bafite ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga: umwe akaba afite mudasobwa imbere ye , abandi bakaba bafashe za telefone aho bigaragara yuko serivise zitandukanye za Leta bashobora kuzikora muburyo bw'ikoranabuhanga ndetse bakaba bazibona muburyo bw'ikoranabuhanga

Icyapa kigaragaza umuntu yicaye, ndetse imbere yiwe hakaba hari mudasobwa, aha bakaba barikwerekana ibijyanye n'imisoro bikorwa n'ikigo cya rwanda reveni otoriti.

Icyapa kiriho mudasobwa ndetse haragaragara izina ry'ikigo cyitwa Rwanda Revenue Authority, hakaba hagaragara urubuga umuntu ashobora gusura akoresheje ikoranabuhanga hanyuma akaba yabasha kuba yakwinjira mu bijyanye no gusora.

Icyapa kiriho umuntu uhagaze ndetse n'imodoka iparitse, hagaragaraho na telefone aha ngaha akaba ari mu buryo bwo kwamamaza urubuga rwitwa irembo rushinzwe gutanga serivisi zose zagenwe na leta.

Icyapa kigaragaraho akamashini kifashishwa mukwishyura, hakoreshejwe ikarita aho umuntu ashobora kwishyura urugendo akoresheje ikarita, hanyuma amafaranga akagera kukigo runaka.

Urupapuro ruriho izina ry'ikigo aradibi, iki akaba ari ikigo cy'u Rwanda gishinzwe iterambere, aho gifasha mu iterambere gikorana n'abashoramari ndetse n'abantu bose bashaka gucuruza, kugira ngo bamenyekanishe ibicuruzwa byabo.

Umunara muremure, uyu ukaba udufasha mu buryo butandukanye; aho ufasha ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo telefone, birimo televiziyo, kugira ngo bibe byakora neza kugira ngo ababireba cyangwa se abikoresha babashe kubikoresha neza.

Inzu nini, iruhande rwayo haragaragara icyapa cya murandasi, bigaragara yuko hatangwa enterinete, iki akaba ari kimwe mu bikorwa leta ishyiramo ingufu, kugira ngo yihutishe umuvuduko w'iterambere w'ikoranabuhanga.

Urupapuro rw'ubururu, amagambo akaba yanditswe mu ibara ry'umweru n'ubururu ndetse n'umuhondo; ahangaha akaba ari urupapuro rwa Rwanda reveni otoriti, ikigo gishinzwe imisoro ndetse n'amahoro; aho baba bamenyesha ko itariki ntarengwa y'imisoro ari runaka, kandi bagomba kudekarara hanyuma bakishyura imisoro.

Umuntu wicaye imbere yiwe hakaba hari mudasobwa, uyunguyu akaba agaragaza yuko hari serivise zitandukanye leta yageneye abaturage, zishobora kuba zabageraho mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Akazu karimo ibikoresho bitandukanye ndetse hakaba hariho n'ibyapa hariho ik'irembo ndetse na beka, aho ibi ari ibigo bishobora gutanga serivisi zitandukanye ku baturage bazikeneye.

Urupapuro ruriho ikigo cyitwa Rwanda reveni otoriti, iki kikaba ari ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, aha bakaba bagaragaza igihe umuntu aba yarakoze adekarara imisoro itandukanye.

Umuntu wambaye umupira w'umukara wicaye, imbere yiwe hakaba hateretse mudasobwa, ndetse iruhande rwe hakaba hagaragara imashini ifotora ndetse ikanasikana, akaba agaragara yuko arimo gutanga serivisi zose za leta.

Abantu batandukanye bicaye ahantu, ndetse imbere yabo hakaba hari za mudasobwa, bakaba barimo kwerekana yuko ari serivisi zitandukanye leta itanga, abaturage bakeneye kuba basobanukirwa.

Icyapa kiriho mudasobwa ebyiri, ndetse hakaba hariho ikigo Rwanda Reveni Otoriti, aha bakaba barimo bamenyesha serivise zitandukanye zijyanye no kumenyekanisha ipatante hanyuma umucuruzi akaba yakwishyura umusoro.

Inzu iriho icyapa cyanditseho irembo uru akaba ari urubuga rwifashishwa kugira ngo serivisi zose za leta umuntu akeneye, abe yabasha kuzisabiraho maze azihabwe.

Icyapa kiriho izina ry'ikigo aradibi iki akaba ari ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere, aho gifasha ibigo bitandukanye ndetse n'abashoramari batandukanye gushora imari zabo mu Rwanda.

Icyapa kiriho umuntu wicaye mu ntebe nziza, akaba arimo kwamamaza urubuga rwitwa Irembo akaba ari urubuga rutangirwaho amakuru ndetse na serivisi zose za Leta.

urupapuro rw'ubururu amagambo akaba yanditse mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, umugabo akaba afite mudasobwa mu ntoki ndetse akaba ayambaye ingofero y'ubururu , ahangaha hakaba hagaragara serivisi zitandukanye leta igeza kubaturage.

Umunara muremure ndetse n'amapoto maremare y'amashanyarazi n'imashini zitandukanye zagenewe kuba zagena umuriro runaka, ibi akaba ari bimwe mubikorwa remezo Leta ibasha kutugezaho.

Abantu babiri bicaye umwe akaba yambaye umupira w'umuhondo, undi akaba yambaye ishati y'umuvutuku ndetse n'umukara, bakaba bafite telefoni mu ntoki ndetse n'utumashini twabugenewe bishinzwe kwishyura ibicuruzwa bitandukanye.

Icyapa kiriho ikigo RDB, iki akaba ari Ikigo cy'Igihugu cy'u Rwanda gishinzwe iterambere ry'Igihugu, aho gikorana n'ibigo bitandukanye ndetse n'abashoramari, bakaba bakora ishoramari rishingiye ku bucuruzi butandukanye.

Icyapa cy'ubururu ndetse amagambo akaba yanditswe mu nyuguti z'umweru, ndetse n'umuhondo, iyi ngiyi akaba ari rwanda reveni ikaba igaragaza uburyo aba agombaga kwishyurwa umusoro ku gihe ntarengwa.

Imiryango y'amazu yagenewe ubucuruzi ndetse hejuru yayo hakaba hagaragara icyapa kiriho serivisi zitandukanye zitangwa harimo n'izitangwa n'irembo, aho serivisi za leta umuntu azibona kuri urwo rubuga.

Urupapuro rw'umweru ndetse amagambo akaba yanditswe mu ibara ry'umukara, hamwe n'icyatsi hakaba hari ikirango cya rwanda revenI otoriti, iki akaba ari ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro rukaba rwifashishwa mu kugaragaza niba umuntu yishyuye umusoro.

Umunara muremure uri mu mabara y'iroze, umutuku ndetse n'umuhondo, uyu ukaba udufasha kugira ngo tube twagira itumanaho ryiza yaba irikoreshwa na telefone yaba se na televiziyo n'ibindi bikoresho byose bishobora gukenera umunara.

Amapoto ariho insinga z'amashanyarazi bikaba bigaragara ko ari kimwe mu bikorwa by'iterambere leta yacu yatugejejeho nk'abaturage kugira ngo turusheho kuzamura umuvuduko mu iterambere ryacu.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka, harimo ipikipiki, ndetse harimo n'abantu batandukanye. Haragaragara kandi n'umunara muremure, hakagaragara insinga z'amashanyarazi, ibi byose bikaba ari ibikorwa bitandukanye leta igeza ku baturage bayo.

Ipoto ndende imanitseho insinga z'amashinyarazi, ibi ngibibikaba ari bimwe mu bikorwa leta igeze ku baturage, kugira ngo bareke kuba baba mu mwijima ahubwo babashe gucana umuriro w'amashinyarazi.

Amazu atandukanye ndetse n'abantu bahagaze ku muhanda, ipoto ririho insinga z'amashanyarazi, iki akaba ari kimwe mu bikorwa remezo, leta yegereje abaturage, kugira ngo iharanire iterambere ryabo.

Agasanduku mu imbere karimo ibintu bitandukanye ndetse imifuka ikaba igaragara iteyemo indabo zitandukanye, aha ngaha bakaba bahita muri pepiniyeri aho umuntu ashobora gukuramo igiti cyangwa ururabo akajya kubitera mu rugo iwe.

Inzu yubatse neza ndetse hagaragara n'ikibanza, hakagaragara n'ipoto ririho insinga z'amashanyarazi, ibi byose akaba ari bimwe mu bikorwa remezo Leta igeza ku baturage bayo.

Imashini iteretse ku byuma, iyi ikaba ikoreshwa mu gutanga umuriro ku baturage batandunkanye, ibi bikaba biri mu ntego za leta ko ari serivise igenera abaturage kugira ngo babashe kuba bacana umuriro.

Umunara muremure ukozwe mu cyuma ndetse iruhande rwaho hari imashini itanga amashanyarazi ndetse haragaragara n'inzu zitandukanye zituye ahantu hamwe zicucitse ahangaha akaba ari serivise leta igenera abaturage mu buryo butandukanye.

Umunara muremure unyuzwaho insinga z'amashanyarazi ndetse iki kikaba ari kimwe mu bikorwa remezo leta yageneye abaturage kugira ngo babashe kuva mu mwijima babashe gucana umuriro babone.

Umunara muremure ndetse n'amapoto y'amashanyarazi ashinze, ariho amatara, ibi byose bikaba biri mu bikorwa leta igezaho abaturage, harimo kubacanira amashanyarazi kugira ngo batagenda mu mwijima.

Amazu atandukanye ndetse n'ipoto ririho insinga zitandukanye z'amashanyarazi, aho iki ari kimwe mu bikorwa remezo Leta yagejeje ku baturage bayo kugira ngo barusheho kuba bakwiteza imbere mu buryo bwihuse.

Umuhanda unyuramo ibinyabiziga bitandukanye, ndetse haragaragara n'ipoto inyuraho insiga z'umuriro w'amashanyarazi, iki akaba ari kimwe mu bikorwa remezo Leta yageneye abaturage kugira ngo irusheho kubateza imbere.

Umuhanda wa kaburimbo wagenewe kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye birimo amapikipiki ndetse n'amamodoka ndetse iruhande hari amapoto atandukanye y'amashanyarazi, ibi akaba ari bimwe mu bikorwa remezo leta igenera abaturage ndetse yabagejejeho kugira ngo barusheho gutera imbere.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, ndetse hagaragara insinga z'amashanyarazi ziri ku ipoto, ndetse hakagaragara n'ipoto ry'itara rirerire, hakagaragara n'amamodoka aparitse ku ruhande, ahangaha akaba ari ibikorwa remezo leta yegereje abaturage.

Inzu nziza y'igorofa, ndetse haragaragara n'ipoto ry'amashanyarazi, iriho itara, ibi akaba ari bimwe mu bikorwa remezo leta yashyizemo ingufu, igeza ku baturage bayo.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, ndetse akaba arimo abantu batandukanye, hagaragaramo umuntu ufashe umweyo, akaba arimo arakora isuku aho ari kimwe mu bintu leta yashyizemo ingufu kugira ngo irusheho gutuma ahantu hose hasa neza.

Imodoka ndende zagenewe gupakira imizigo ndetse hagaragara n'inzu nini, uru akaba ari uruganda aho bakora ibintu bitandukanye, bakabijyana ku masoko atandukanye hanyuma bikagera ku baturage.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye; harimo amamodoka, amapikipiki ndetse hagaragara n'amapoto y'amashanyarazi. Ibi byose akaba ari ibikorwaremezo leta yageneye abaturage.

Ipironi ndende ndetse icaho insinga, izi akaba ari insinga z'amashanyarazi ndetse ibi akaba ari ibikorwa Leta yageneye abaturage kugira ngo babashe kuba bacana umuriro w'amashanyarazi.

Amapoto abiri; rimwe rikaba ririho itara, irindi rikaba rinyuraho insinga z'amashanyarazi, ibi akaba ari bimwe mu bikorwa remezo leta yageneye abaturage, kugira ngo bave mu mwijima, bajye bacana, babone.

Ipoto rirerire ndetse ririho insinga zishamikiyeho nyinshi z'amashanyarazi; ibi akaba ari zimwe muri serivisi leta itanga, aho igeza buri muturage wese ikamuha amashanyarazi.

Umunara muremure unyuzwaho insinga z'amashanyarazi, iki akaba ari kimwe mu bikorwa remezo gifasha abaturage kugira ngo batere imbere mu buryo bwihuse kuko amashanyarazi adufasha mu bintu bitandukanye harimo ndetse no kuba aducanira mu rugo tukabasha kubona tukava mu mwijima.

Inyubako zitandukanye ndetse ku nyubako imwe hakaba hagaragaraho ibendera, aha hakaba hagaragaza yuko hari urwego rwa leta, rushinzwe gutanga serivisi zitandukanye ku baturage b'igihugu kugira ngo barusheho kwimakaza iterambere ry'igihugu.

Inzu nziza ifite irangi ry'umuhondo ndetse ikaba ifite na parafo z'umweru, hakaba hari intebe ziteretse neza, izi akaba ari nazo zifashishwa, zakira abantu batandukanye, harimo abaturage kugira ngo bagezweho serivisi zitandukanye bifuza.

Amazu atandukanye ndetse haragaragara n'icyapa kiriho ibitaro bya Nyarugenge, ahangaha akaba ari hamwe hajya abarwayi kugira ngo babashe kuvurwa bongere kuba basubira kugarura ubuzima.

Ahantu harimo amazu atandukanye ndetse haragaragara n'imodoka ziparitse zitandukanye, hakaba hagaragara nk'ahantu ha leta hashobora gutangirwa serivisi zose zitandukanye umuturage ashobora gukenera.

Ibikoresho by'ubwoko butandukanye birimo imbere mu nzu ndetse inyuma haragaragara n'igikoresho cyitwa kizimyamowoto kiri mu ibara ry'umutuku, iki kikaba cyifashishwa mu kuzimya ahantu hose habaye inkongi y'umuriro kugira ngo barwanye gushya kw'ibintu biri ahongaho.

Abantu batandukanye baje mu nyubako bigaragara y'uko ari ku murenge, bakaba baje gusaba serivisi zose za leta zitangirwa mu murenge, aho ndetse harimo na serivisi zo kugenda bazamura iterambere ry'abaturage.

Inyubako zitandukanye ndetse n'abantu batandukanye, bikaba bigaragara ko aha ngaha ari kwa muganga, aho umuntu urwaye ashobora kugenda hanyuma bakamuvura akongera akagarura ubuzima, iki akaba ari kimwe mu bikorwa remezo bya Leta bishinzwe guteza imbere iterambere ry'igihugu.

Amazu atandukanye ndetse hakaba hagaragara abantu batandukanye baje bagana kuri ayo mazu, aha akaba ari ivuriro rya Leta ritanga serivisi zitandukanye, harimo izo kuvura abarwayi baje bahagana.

Ibikoresho bitandukanye birimo n'imashini zo kwa muganga, ibi bikaba bigaragara yuko ari ibitaro; aha ngaha hakaba haza abantu bafite uburwayi butandukanye hanyuma bakabasha kuvurwa neza.

Icyapa kiriho amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara, ndetse haragara ikirango k'ikigo kitwa Minijisite, iyi ikaba ari Minisiteri y'ubutabera ishinzwe gukemura impaka ndetse no guca imanza ku baturage bagiye batandukanye.

Abantu batandukanye barimo abayobozi bo mu nzego za leta, yaba abacamanza yaba abashinzwe umutekano, aba akaba ari bo badufasha mu bijyanye n'iterambere ry'igihugu ndetse bakadufasha no kwihutisha umuvuduko w'iterambere.

Umuntu wambaye ikanzu y'umutuku ndetse bikaba bigaragara yuko ari umucamanza, aho akora mu rwego rwa Leta rw'ubutabera kugira ngo arusheho kuba yafasha mu manza zitandukanye kandi bifashe iterambere ry'Igihugu.

Urupapuro ruri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, amagambo akaba yanditswe mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hakaba hagaragaramo amategeko, ku manza zitandukanye, ibi byose bikaba ari serivisi leta igaragaza itanga ku bantu batandukanye.

Icyapa kiriho abantu batandukanye bamanitse intoki ndetse hakaba hariho amagambo "Inkiko gacaca," akaba ari rumwe mu rwego rwa Leta rushinzwe kugira ngo rukemure amakimbirane atandukanye.

Umuntu uhagaze wambaye ikanzu y'umutuku ndetse akaba afite indangururamajwi imbere ye, ukuboko kumwe kukaba kuzamuye, ndetse ikindi kiganza kikaba gifashe ibendera akaba ari mu muhango wo kurahira kugira ngo abe yakwinjira mu nzego za leta abashe kuba yafasha mu kuzamura ibikorwa by'iterambere.

Abantu batandukanye bicaye ndetse harimo n'abahagaze, hakaba hagaragara umwe urimo kurahira afashe ibendera. Bigaragara yuko agiye kujya mu rwego rwa leta kugira ngo afashe abayobozi kuba bashyira mu bikorwa iterambere ry'igihugu.

Hagaragara abantu babiri, umwe akaba yambaye amapingu ndetse undi akaba amufashe, bigaragara y'uko ari umunyabyaha ukekwaho icyaha, ibi byose bikaba bikorwa n'urwego rw'ubutabera, aho rushinzwe kureba abakoze ibyaha ndetse bakaba babiryozwa.

Umuntu wambaye ikanzu y'umutuku ndetse akaba agaragara yuko ari mu nzego za leta aho ashinzwe gutanga serivisi ku baturage hanyuma akaba yanababwira uko iterambere ry'igihugu rimeze.

Abantu batatu bicaye, babiri bakaba bambaye amakanzu y'umukara, bikaba bigaragaza ko ari abavoka ndetse umwe akaba yicaye hagati n'umuntu ukurikiranyweho ibyaha bikeneyewe kugira ngo ashyirwe mu manza aburane.

Abantu babiri bicaye bakaba bambaye amakanzu y'umukara ndetse n'umweru, imbere yabo hari za mudasobwa hagaragara abandi bantu babiri bambaye iroza ndetse n'undi umwe wambaye umukara uri iruhande rwabo bikaba bigaragara ko aha ngaha bari mu manza.

Abantu batandukanye harimo abicaye hasi ndetse hari n'abandi bicaye ku ntebe, imbere yaho hateretse amameza ndetse hakagaragara n'abandi babiri bahagaze, aha ngaha bakaba bagaragara yuko bari mu nteko rusange, ibi akaba ari bimwe mu bikorwa Leta ikora kugira ngo irusheho guhuza abaturage.

Igipangu cy'urugi rw'umukara, ndetse mo imbere harimo amazu atandukanye, haragaragaramo n'abashinzwe umutekano, hejuru y'igipangu hari icyapa kiriho amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara, aha ngaha hakaba ari mu igororero, aho bajyana abantu kugira ngo babashe guhindura imico yabo mu gihe baba barananiranye.

Umuntu uri kumwenyura, akaba afite n'akamikorofone k'umukara, ahangaha akaba agaragara ko ari kuvuga serivise zose leta igeza ku baturage bayo, uko ziri n'uko zitandukanye.

Abantu babiri bambaye udupfukamunwa, ndetse imbere yabo bakaba bateretse mudasobwa, bakaba bafite n'indangururamajwi, bikaba bigaragara yuko barimo baravuga gahunda zose z'iterambere ndetse na serivisi zose za leta.

Abantu batatu babiri bakaba bambaye amakanzu y'umukara bikaba bigaragara yuko ari abavoka ndetse uri hagati yambaye umwenda w'iroza bikaba bigaragara yuko aburanishwa ku byaha yakoze.

Umuntu wambaye ikanzu itukura, bikaba bigaragara y'uko akora mu rwego rw'ubutabera, uru akaba ari urwego rushinzwe kurenganura abarengana, aho rwifashisha amategeko kugira ngo rurusheho kuba rwarenganura abarengana.

Abantu bambaye amakanzu y'umukara, bikaba bigaragara y'uko ari abacamanza, ndetse hari n'abandi bantu bicaye bambaye imyenda y'iroza, aba bikaba bigaragara yuko ari abafite imanza bakurikiranyweho icyaha, ibi bikaba bikorwa na Minisiteri y'ubutabera, aho ica imanza.

Umuntu wambaye ikanzu y'umutuku, bikaba bigaragara yuko akora mu rwego rwa leta, aho afasha ibijyanye n'iterambere ry'igihugu ndetse n'iterambere ry'umuturage muri rusange.

Urupapuro ruriho amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara, aho bigaragara yuko ari amategeko, aya akaba akoreshwa mu rwego rw'ubutabera kugira ngo barenganure abantu bave mu kurenganwa.

Abantu batandukanye bicaye ndetse harimo n'abambaye amakanzu bigaragara yuko ari abacamanza, abangabo bakabadufasha mu rwego rw'ubutabera, aho bagenda baca imanza kugira ngo barusheho kurenganura abarengana.

Umuporisi uhagaze imbere y'iwe hakaba hari ikinyabiziga, abangaba bakaba bashinzwe umutekano wo mu muhanda aho basuzuma niba ibinyabiziga ndetse n'abagenzi ntamakosa bafite mu muhanda.

Imodoka za polisi ziri mu ibara ry'umukara n'umweru ziparitse, inyuma yazo hakaba hari igorofa rinini aho urwego rwa polisi rukorera rukaba rusigira serivisi zitandukanye zirimo kuba twabona impushya zo gutwara ibinyabiziga.

Igikoresho cyitwa kizimyamoto, giteretse ahantu mu nzu, iki kikaba cyifashishwa mu kuzimya ahantu habaye inkongi y'umuriro, haba mu rugo, mu mahoteli, mu maresitora, mu nganda, n'ahandi hantu hose hashoboka kuba hahurira abantu, hari inyubako zitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo, ndetse hagaragararana n'amazu y'amagorofa hagaragara n'abantu kandi harimo babiri bahagaze, umwe akaba yambaye imyenda y'umukara, iranga polisi, idufasha mu buryo bw'umutekano wo mu muhanda, ndetse no gucunga abantu ndetse n'ibintu muri rusange.

Umuhanda wa kaburimbo, ndetse hagaragara n'akayira kagenewe abanyamaguru kari kunyuramo abanyamaguru, ahagaze kandi n'umupolisi, uyu akaba ashinzwe umutekano w'umuhanda, yaba se uw'ibinyabiziga ndetse n'uw'ibintu muri rusange.

Imodoka ya polisi ndetse ikaba irimo n'abapolisi ndetse inyuma y'aho hari amapikipiki nayo ariho abapolisi, aba ngaba bakaba badufasha mu bijyanye n'umutekano wo mu muhanda.

Abagabo batatu umwe yambaye imyenda y'ubururu iri mu ibara rya polisi ndetse abandi bambaye amakoti arimo icyatsi ndetse akaba asa n'umukara bambaye n'ingofero mu mutwe bafashe kizimyamto bakaba bari bagiye kuzimya ahari habaye inkongi y'umuriro.

Abantu batandukanye barimo abana batoya, ndetse hagaragararana na polisi ifashe kizimyamwoto bakaba bari barimo kwigisha, ndetse bakora ubukangurambaga igihe iwawe haba habaye inkongi y'umuriro uburyo wakwitabara ukoresheje kizimyamwoto.

igikoresho cyabugenewe mu kuzimya inkongi z'umuriro twita kizimya mwoto, kikaba giteretse ahantu kiri mu ibara ritukura iki kikaba kidufasha igihe cyose duhuye n' ingorane zo kugira ngo inzu zacu zishye ndetse n'ibindi bintu bitandukanye mu gihe bihiye aho tukitabaza kikabasha kuzimya inkongi y'umuriro.

Abapolisi babiri bahagaze hafi y'aho abagenzi bategerereza imodoka, bigaragara yuko barimo gucunga umutekano wo mu muhanda, kugira ngo hirindwe impanuka za hato na hato.

Umugabo wambaye neza, imbere yiwe hakaba hari indangururamajwi bikaba bigaragara ko hari abantu benshi bamukikije, akaba arimo aravuga kuri serivisi ndetse n'iterambere ry'igihugu aho rigana n'aho rishingiye.

Abantu benshi batandukanye bafite amabendera mu ntoki zabo, ndetse hagaragara n'imodoka irimo umuntu uhagaze bigaragara y'uko hari mu mwanya wo kwiyamamaza kugira ngo batore umuntu uzabafasha mu cyerekezo k'iterambere.

Umuntu ugaragara, bikaba bigaragara yuko ari muri serivise zitandukanye za leta, bikaba bigaragara yuko ashobora kugira uruhare mu gutanga ndetse no kumenyekanisha iterambere ry'igihugu, ndetse agafasha abantu muri serivise zitandukanye.

Ikiganza kigaragaza intoki ebyiri ziriho wino, ibi bikaba bikorwa mu gihe cy'amatora aho umuntu agenda agatora umuntu abona yuko azamugezaho iterambere rirambye, hanyuma akabasha kugera imbere mu iterambere ry'umuvuduko.

Abantu batandukanye bari ku murongo ndetse haragaragara n'umwe uhagaze ku muryango, ahangaha bikaba bigaragara yuko ari icyumba cy'Itora cyari cyakozwe n'abantu biteguye gutora, akaba ari imwe muri gahunda ikorwa mu gihugu.

Abantu batandunkanye ndetse biragaragara yuko ari bamwe bafashe impapuro mu ntoki, bigaragara yuko bari bari m'umwanya wo kwamamaza umukandida, kimwe mu bikorwa bikorwa mu gihugu kugira ngo barusheho gutora abarushaho guteza imbere igihugu.

Abantu batandukanye harimo abahagaze ndetse harimo n'umwe uri kugenda asanga abandi, ahangaha bakaba bagaragaza leta ndetse n'ibikorwa bitandukanye leta igenda igeza ku baturage.

Abantu bicaye batandukanye, harimo babiri bagaragara yuko bari mu nama, aho barimo baraganira kuri serivisi zose zitangwa na leta, ndetse n'uburyo zashyirwamo imbaraga kugira ngo umuvuduko w'iterambere ugaragare.

Abantu batandukanye harimo batatu bagaragara bahagaze umwe akaba arimo hagati afashe indangururamajwi ndetse n'ibipapuro bigaragaza yuko arimo kwiyamamaza, kugirango nawe agire uruhare rwo kuba yatorwa hanyuma azagire uruhare mu iterambere ry'igihugu.

Icyapa kiriho ikirangantego nka kimwe mu bikorwa remezo bya Leta, aho iki ari ikigo gifasha abantu kuba babasha kwiteza imbere, ndetse bakabasha kugira ubumenyi mu buryo butandukanye.

Umuntu uhagaze wambaye umupira w'umukara ndetse akaba afite indangururamajwi imbere ye, akaba afashe n'ibendera mu kuboko ndetse inyuma yiwe hari icyapa kiriho ifoto y'umuntu ndetse akaba hagaragara n'ijambo efuperi, iri akaba ari ishyaka ryo kwishyira ukizana kwa muntu.

Abantu babiri bicaye ndetse nyuma yaho hakaba hagaragara icyapa kiriho amagambo agendanye no gutora, aba ngaba bakaba badufasha muri serivisi ijyanye n'amatora.

Abantu batandukanye bari kurongo, ibi bikaba bikunda gukorwa mu gihe hari amatora, iki akaba ari kimwe mu bikorwa leta ikora, kugira ngo irusheho kureba abayifasha mu kwiteza imbere ndetse no guteza imbere igihugu muri rusange.

Abantu babiri bahagaze, bigaragara y'uko bakora muri serivisi za leta, aba ngaba bakaba badufasha mu bijyanye n'umuvuduko w'iterambere ry'igihugu, ndetse n'iterambere ry'umuturage muri rusange.

Urupapuro rugaragaza uko inzego z'Igihugu zigenda zirutanwa, aha ngaga akaba ari gahunda Leta ishaka kugaragazamo uko Igihugu kigenda kiyoborwa haba mu nzego z'uturere ndetse n'imirenge, aha ngaha ibi byose bikaba bigaragara hano.

Umuntu ufashe indangururamajwi mu ntoki, bikaba bigaragara y'uko arimo aravuga kuri serivisi zitandukanye ya leta itanga, ndetse na gahunda zose z'iterambere ry'igihugu muri rusange ku baturage bacyo.

Umuntu wicaye ndetse nyuma ye hakaba hari ibendera, akaba ari umwe mu bakoze mu rwego rwa leta aho yafashije igihugu kugira ngo kive ku rwego rumwe kigere ku rundi, mu buryo bw'iterambere haba ku baturage, ndetse no guteza imbere ibindi bintu bitandukanye.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo gucamo ibinyabiziga bitandukanye yaba amamodoka iki akaba ari kimwe mubikorwa remezo gifasha abaturage kugira ngo bihutishe iterambere ryabo.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye yaba amamodoka, yaba amagare ndetse haba n'abantu b'abanyamaguru, ikigiki akaba ari kimwe mu bikorwa remezo cyifashishwa kugira ngo habashe kwihutishwa serivise.

Amapikipiki aparitse yagenewe gutwarwamo imizigo ayangaya akaba adufasha kugira ngo haba ku mucuruzi ndetse n'ugura babashe kubona serivisi mu buryo bwihuse.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo ibigaragara yuko amamodoka ahetse bigaragara y'uko harimo n'abamotari bahetse abagenzi, ibi akaba ari bimwe mu bikorwa remezo leta yagiye ikora kugira ngo ibashe kuba yazamura itermbere ry'abaturage.

Umuhanda wa kaburimbo wagenewe kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye, yaba amapikipiki yaba amamodoka ndetse n' abanyamaguru ubwabo. Iki akaba ari kimwe mu bikorwaremezo bifasha abaturage kwiteza imbere mu buryo bwihuse.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, ukaba urimo kugedamo imodoka nini yikorera umucanga, yitwa Howo, ibingibi byose bikaba bigaragaza ibikorwa, serivise Leta itanga ku baturage bayo.

Umuhanda wa kaburimbo wagenewe kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye, birimo amamodoka, amapikipiki n'abantu, iki akaba ari kimwe mu bikorwaremezo gifasha abantu mu kuba bagira iterambere ryihuse.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, birimo amamodoka atwara abantu mu buryo bwa rusange, aha ngaha bikaba bigaragara yuko ari igikorwaremezo cyiza Leta yegereje abaturage bayo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugendamo imodoka yagenewe gutwara abantu mu buryo bwa rusange, iki akaba kimwe mu bikorwa remezo leta yashyikirije abaturage kugira ngo barusheho kuba bakwiteza imbere muburyo bwihuse.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo amamodoka rusange yagenewe gutwara abantu mu buryo bwa rusange, ndetse iki akaba ari kimwe mu bikorwaremezo bya leta yatugejejeho.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo ikinyabiziga cy'imodoka ndende yagenewe kwikorera imizigo, ibingibi bikaba ari bimwe mu biranga leta nka serivisi nziza itugezaho.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka, amapikipiki, ndetse harimo n'ingorofani, hagaragaramo n'amagare arimo gusunikwa, ibi ngibi byose bikaba ari bimwe mu bikorwa remezo leta yagiye igenera abaturage.

Umuhanda unyuramo ibinyabiziga bitandukanye, yaba se amamodoka, yaba amapikipiki. Iki akaba ari kimwe mu bikorwaremezo Leta yadushyiriyeho kugira ngo umuvuduko w'iterambere urusheho kwiyongera mu buryo bwihuse.

Umuhanda wa kaburimbo wagenewe kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye, yaba imodoka, amapikipiki, ndetse n'abantu, ndetse haragaragara n'iteme hakagaragara n'umuyoboro ushinzwe kuba wanyuramo amazi.

Umuhanda unyuramo ibinyabiziga bitandukanye yaba amapikipiki yaba amamodoka ndetse nibindi bitandukanye, aho ari kimwe mubikorwaremezo leta yageneye abaturage kugira ngo umuvuduko w'iterambere urusheho kugaragara.

Umuhanda wa kaburimbo wagenewe kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye harimo amamodoka, harimo amapikipiki ndetse n'abanyamaguru. Iki kikaba ari kimwe mu bikorwa remezo kidufasha kwihutisha umuvuduko w'iterambere.

Umuhanda urimo gucamo ibinyabiziga bitandukanye harimo amamodoka, iki akaba ari kimwe mu bikorwa remezo by'iterambere ry'igihugu leta igenera abaturage, kugira ngo bihute mu muvuduko w'iterambere.

Umuhanda wa kaburimbo urikunyuramo ibinyabiziga bitandukanye harimo ipikipiki ndetse harimo n'imodoka yitwa kwasiteri ishinzwe gutwara abantu mu buryo bwa rusange ibi byose akaba ari ibikorwa remezo leta itugezaho nk'abaturage.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka yikoreye ibicuruzwa bitandukanye, iyingiye akaba ari serivisi igendanye n'ubwikorezi akaba ari imwe muri serivisi leta itanga ku baturage bayo.

Iri ni igare rikoreshejwe ibyuma rifite n'amapine iri rikunda gukoreshwa na babandi bita abakarani mugihe batwaje abantu imizigo bayivana aho bari bayiguriye bayijyana aho bashaka kuyigeza.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande hakaba hari umuntu uhahagaze wambaye jire y'icyatsi, ndetse hakaba harimo n'imodoka ipakiye imizigo, iyi ngiyi, ikaba yifashishwa kugira ngo igeze ibicuruzwa bitandukanye mu gihugu runaka.

Umuhanda wa kaburimbo, haragaragaramo amapikipiki ahetse abantu, ndetse haragaragara n'imodoka ndende, yangenewe gutwara imizigo iremereye, ibi byose bikaba bigaragaza ibikorwa remezo leta yageneye abaturage.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, amapikipiki, amamodoka ndetse haragaragara n'icyerekezo cy'umuhanda, aho zimwe zigomba kunyura ndetse bikaba bigaragara y'uko ari igikorwa cyiza Leta yagejeje ku baturage bayo.

Umuhanda wa kaburimbo hagaragaramo imodoka ndetse n'amakaziyo ateretse, bigaragara ko ari mu ruganda rukora inzoga, izi zikaba ari zimwe muri serivisi zitangwa kugira ngo zigere ku baturage kandi barusheho kubona iterambere mu buryo bwihuse.

Umuhanda wagenewe kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye, hakaba hagaragara imodoka zabugenewe zo gutwara abantu mu buryo bwa rusange, ndetse haragaragara n'ibyapa cyo gutegererezaho, aho abagenzi bicara kugira ngo bategereze imodoka iza kubatwara.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba urimo kugendamo imodoka twita kwasiteri ndetse iruhande hakaba hari abantu bari kugenda n'amaguru, ibi byose akaba ari bimwe mu bikorwa Leta yatugejejeho nk'abaturage.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga bitandukanye, harimo amamodoka ndetse n'amapikipiki, ndetse n'abanyamaguru bakaba banyuramo, ahangaha akaba ari kimwe mu bikorwa leta yatugeneye nk'abaturage.

umuhanda mwiza wa kaburimbo ndetse n'imodoka nziza iri kugenda mumuhanda, ibi bikaba ari bimwe mubikorwa remezo leta yagejeje kubaturage yaba umuhanda wo kunderamo, ndetse imodoka yo kugenderamo zidutwaye.

Umuhanda ugaragaramo ibinyabiziga bitandukanye yaba imodoka zikorera ibiremereye, yaba abanyamagare se, yaba n'amapikipiki, ndetse n'abanyamaguru iki akaba ari kimwe mu bikorwaremezo leta yageneye abaturage.

Imodoka irimo kugenda mu muhanda, iyi ikaba yarateganyirijwe kugira ngo abantu babashe kuba bakwiga imodoka, hanyuma babe babona uruhushya rubemerera gutwara mu muhanda kugira ngo nabo babashe kugenda mu kinyabiziga bitwaye.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga bitandukanye yaba imodoka, yaba amapikipiki ndetse n'abantu, iki akaba ari kimwe mu bikorwa remezo leta yageneye abaturage kugira ngo umuvuduko w'iterambere urusheho kwihuta koko.

Icyapa giteretse, kigaragaramo umuntu ufashe telefone mu ntoki, ndetse iruhande hari ahantu hasa oranje, handitsemo ijambo wifi, harimo n'ibindi birango byose bitandukanye, aha bikaba bigaragara ko ari serivise leta itanga ku baturage, ya murandasi.

Inzu nziza y'umuhondo ndetse ikaba iriho amashusho atandukanye y'abana bato ndetse hirya haragaragara izindi nzu nziza z'imitamenwa, aha ngaha bakaba barimo baragaragaza serivisi ya Leta itanga ku bijyanye n'imbonezamikurire y'abana.

Inzu yubatse neza irimo ibicuruzwa bitandukanye, ndetse hagaragara n'icyapa cya mpandeshatu kirimo ikirango cyerekana icyerekezo, ibi byose akaba ari bimwe mu bikorwaremezo leta yagejeje ku baturage bayo.

Icyapa cya mpande eshatu gishinze, kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, hakagaragaramo ikirango cy'umukara cyo guteranya, hakaba hagaragazwa y'uko ari ahantu hazongezwa umuhanda.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse hakarimo n'ibimenyetso biri mu ibara ry'umukara ahangaha hakaba icyapa cyifashishwa mu kwerekana ibyerekezo bitandukanye by'umuhanda kugirango bifashe ibinyabiziga aho bikwiriye kuba byanyura.

Icyapa cy'umweru ndetse haragaragaramo n'umutuku hakaba hagaragara imodoka mw'ibara ry'umukara ndetse n'amagambo ari mw'ibara ry'umukara iki kikaba kigaragaza yuko aho hantu hatemerewe guparika ikinyabiziga.

Icyapa cya mpande eshatu mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, ndetse hagaragara n'umuntu ahangaha hakaba hagaragaza yuko aho hari akayira kemewe kugendwamo n'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo hakaba hashinze icyapa cya mpande eshatu, mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, iki kikaba gifasha ibinyabiziga muri rusange kumenya uko byagenda mu muhanda.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse hakaba harimo inyuguti ya "P" yanditswe mu ibara ry'umweru, iki akaba ari icyapa kimenyesha ibinyabiziga bitandukanye, yaba imodoka yaba ipikipiki ko byemewe guparika aho ngaho.

Umuhanda wa kaburimbo ndetse iruhande hateretse icyapa cya mpande eshatu kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru hakaba hagaragara umuntu urimo ufite igitiyo, aho baba bashaka kwerekana yuko aho hafi aho hari ibikorwa byo gusana umuhanda.

Iki ni icyapa cya mirongo itandatu gikunda gukoreshwa mu muhanda igihe barimo bayobora imodoka kugira ngo zimenye ikigero zigomba kugenderaho kugira ngo zitabasha gukora impanuka zigere iyo zijya amahoro nta mpanuka ziteje.

Icyapa gishinze ndetse kiri mu ibara ry'umuhondo, hakaba harimo akamenyetso mu ibara ry'umukara, kakaba kerekana icyerekezo cy'umuhanda, aho umuntu yanyura.

Umuhanda wa kaburimbo ndetse hakaba harimo n'ibyapa bimenyesha ibinyabiziga uko bikwiriye kuba byakwitwara mu muhanda, bikitonda kugira ngo byirinde impanuka za hato na hato zibera mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ndetse ku ruhande haragaragara icyapa gishinze, cya mpande eshatu mu ibara ritukura ndetse n'umweru, hakaba hagaragara umuntu bigaragara ko hafi ahongaho, ari ahantu abantu bemerewe kuhatambuka n'amaguru bakabasha kwambuka.

Icyapa gishinze cya mpande eshatu mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru hakaba hagaragaramo n'amashusho y'abana babiri bigaragara yuko aho hafi aho haba hari ikigo cy'ishuri.

Icyapa kiri mu ibara rya oranje, ndetse amagambo akaba yanditswe mu ibara ry'umukara, iki kikaba kimenyesha yuko aho hantu, hari ibikorwa byo gusana ibintu cyangwa se umuhanda wangiritse, ko hatemerewe kuba hanyurwa.

Umuhanda wa kaburimbo ndetse haragaragara umuntu urimo kugenda n'amaguru, iruhande rwe hari inzu, hari icyapa gishinze cyanditsemo mirongo itandatu, uyu akaba ari umuvuduko ikinyabiziga kitagomba kurenza muri uyu muhanda.

Imodoka iparitse imbere y'amazu yagenewe ubucuruzi, hakaba hagaragara ibicuruzwa bitandukanye bihacururizwa, harimo imyenda ndetse n'ibikapu n'ibindi bintu bitandukanye, ibi akaba ari bimwe mu bikorwaremezo by'igihugu.

Abantu batandukanye binjiye ahantu mu nyubako, bakaba barimo gusaba serivise zitandukanye leta itanga, ahangaha hakaba harimo serivise zigeza ku baturage zigendanye n'itera mbere ku gihugu.

Amazu yubatse neza ndetse haragaragaramo n'imodoka ziparitse, aha ngaha akaba ari ahantu abantu bashobora kujya gusaba serivisi zose bakeneye za Leta, hanyuma bakabasha kuzibona zijyanye cyane cyane n'iterambere ryabo ku giti cyabo ndetse n'iry'Igihugu.

Amazu atandukanye ndetse n'insinga z'amashanyarazi n'iminara, ibi byose bikaba biri mu bikorwa remezo leta yagiye igenera abaturage kugira ngo uruhare rw'iterambere ry'igihugu rurusheho kuzamuka mu buryo bwihuse.

Amazu atandukanye yubatswe mu buryo bw'umudugudu ahangaha akaba ari igikorwa leta yashyizemo ingufu kugira ngo ishishikarize abantu kubaka inzu nziza zigezweho kandi z'icyerekezo.

Inzu nziza y'igorofa ndetse bikaba bigaragara yuko ikoreramo urwego rwa Leta, rushinzwe gutanga serivisi zigenewe abaturage harimo no kumenyekanisha ibikorwa byose by'iterambere ku muturage.

Umuhanda wa kaburimbo, ndetse hagaragara n'icyapa cyanditseho hiritopu hoteli, iyingiyi akaba ari hoteli, aho abantu bashobora kuba basohokera kugira ngo baruhuke, cyangwa se kugira ngo banishimishe.

Umuhanda w'amabuye ndetse urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka ndetse n'amapikipiki, iruhande hari amazu yabugenewe y'ubucuruzi ahangaha akaba ari ahantu abantu bashobora kuba basohokera hanyuma bakiyakira.

Iicyapa kiri mu ibara rya shokora amagambo akaba yanditswe mu ibara ry'umweru. Iki kikaba ari icyapa kigaragaza yuko aho hafi aho, ari ahantu bategura ikawa nziza maze umuntu akaba yasohokerayo akabasha kuba yayinywa.

Igipangu cy'umukara mo imbere hakaba harimo amazu atandukanye meza, aha akaba ari ikigo gishinzwe umutekano, aho gishinzwe kuba cyatabara abantu bagize ibyago mu gihe runaka.

Umuhanda wa kaburimbo wagenewe kunyuramo ibinyabiziga, yaba amamodoka ndetse n'amapikipiki, ndetse haragaragara n'icyapa cyagenewe kugaragaza agace runaka.

Umuhanda wa kaburimbo wagenewe kunyurwamo ibinyabiziga bitandukanye birimo: ama modoka, amapikipiki, abanyamaguru ndetse n'imizigo iremereye; ibi akaba ari bimwe mu bikorwaremezo bigaragaza ko igihugu cyateye imbere.

Umuhanda mwiza, munini, wa kaburimbo, wagenewe kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye, birimo imodoka, amapikipiki, hakaba hagaragara amatara meza atandukanye, ndetse hakagaragara n'ibimenyetso byagenewe aho abanyamaguru bagomba kunyura bambukiranya.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo abanyamaguru, ukanyuramo ibinyabiziga bitandukanye yaba amapikipiki, yaba amamodoka, iki akaba ari kimwe mu bikorwa remezo Leta yageneye abaturage bayo.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga bitandukanye, birimo amamodoka, amapikipiki ndetse n'abanyamaguru. Iki kikaba ari kimwe mu bikorwa Leta yashyizemo ingufu, kugira ngo iterambere ry'umuturage rirusheho kuzamuka.

Umuhanda wa kaburimbo hakaba hagaragara icyuma gifata amashusho twita kamera, aho kiri iruhande rw'umuhanda kikaba gishinzwe kugenzura, ibinyabiziga ku muvuduko birimo kugenderaho kigasuzuma niba nta kinyabiziga cyarengeje umuvuduko.

umuhanda mwiza uri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye harimo amapikipiki amamodoka ndetse iruhande rwaho hakikijweho nibiti ibi akaba aribimwe mubikorwa leta igenera abaturage.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye birimo imodoka n'amapikipiki ndetse haragaragara icyapa kigaragaza ko umuntu aba yemerewe gutambuka mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo wagenew kunyuramo ibinyabiziga haba amamodoka, amapikipiki, ndetse n'abanyamaguru, iki kikaba ari kimwe mubikorwa remezo leta yashize imbere kandi gifasha abaturage cyane.

Umuhanda wa kaburimbo, ndetse hejuru hari ikiraro, ndetse ku mpande haragaragara abamotari baparitse; aho ibi ari bimwe mu bikorwa remezo Leta yageneye abaturage bayo, kugira ngo biteze imbere.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, amapikipiki ndetse n'amamodoka, haragaragaramo ndetse n'amatara ari kwaka, ibi byose akaba ari ibikorwaremezo Leta yagiye igenera abaturage bayo kugira ngo biteze imbere mu buryo bwihuse.

Umuhanda wa kaburimbo, unyuramo ibinyabiziga bitandukanye, yaba amapikipiki ndetse n'amamodoka, hagaragaramo imodoka ndende zagenewe kwikorera ibicuruzwa, ndetse haragaragara n'ikiraro cyiza cyagenewe kunyuraho ibinyabiziga.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga bitandukanye, yaba amamodoka yaba amapikipiki, amagare, ndetse n'abanyamaguru, aha ngaha bikaba bigaragara y'uko ari igikorwa gikomeye cy'iterambere, leta yacu yatugejejeho.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga bitandukanye, harimo amapikipiki harimo amamodoka, ndetse hakaba hagaragara n'ibimenyetso by'umuhanda, bishinzwe kugenda biyobora abagenzi ndetse n'abatambuka n'amaguru muri rusange.

Igikoresho cyabugenewe gifata amashusho kikaba giteretse ahantu, iki kikaba gifata cyane cyane umuvuduko w'ibinyabiziga bitandukanye haba imodoka, amapikipiki kugira ngo kigenzure niba bitarengeje koko umuvuduko wabugenewe.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka ndetse n'ipikipiki ndetse ku ruhande hakaba hari icyapa cyanditseho " School," icyo kikaba kiranga yuko hafi aho hari ikigo cy'amashuri, ibinyabiziga bigomba kuva mu muhanda.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga bitandukanye ndetse haragaragara n'ikiraro. Ibi byose bikaba ari bimwe mu bikorwa remezo Leta yageneye abaturage bayo.

Umuhanda wa kaburimbo wagenewe kunyuramo ibinyabiziga, yaba imodoka, yaba amapikipiki, iki akaba ari kimwe mu bikorwa remezo Leta yageneye abaturage bayo kugirango ngo iterambere ry'igihugu rirusheho kwihuta.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo ndetse iruhande rwawo, hari amazu meza y'amagorofa, aragaragaramo amatara atandukanye, ndetse mu muhanda harimo ibinyabiziga bitandukanye, ibi byose akaba ari serivisi leta igeza ku baturage bayo.